Serivisi z'umuyoboro wa emutiyeni, aho ushobora koherereza amafaranga inshuti n'abavandimwe n'abantu bagiye batandukanye, kugura amayinite, gukoresha serivisi za banki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Kwamamaza kw'inyubako igeretse, iherereye mu mujyi wa Kigali, Kicukiro, ikaba ifite kandi ubusitani hanze, buteyemo indabyo.

Inzu iberamo ibikorwa by'ubucuruzi hari urujya n'uruza rw'abaguzi kandi hari abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.